Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe imurinda kuba yakwangirika, irimo udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki. Uwo mugabo akaba ari gutera imiti mu bihingwa maze iyo myambaro ikabi imufasha kugira ngo ataba hagira ikintu kimwangiza.

Amafi y'ubwoko butandukanye yashyizwe ahantu hamwe nyuma yo kurobwa, aya mafi akaba akurwa mu biyaga ndetse na hamwe mu nzuzi, aho ahororerwa, aya mafi akaba ajyanwa ku masoko ndetse akaba akungahaye ku ntungamubiri zitandukanye zifasha umubiri kumera neza.

Mu nkengero z'ikiyaga kigari hari abagabo batandatu, bakaba bari gukora ibikorwa bitandukanye birimo uburobyi. Aba bagabo bakaba bifashisha ubwato bukoze mu giti. Hari kandi n'abandi bantu babiri bari muri icyo kiyaga aho bari koga.

Ababyeyi b'abagore bakuze bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye bafite udukoresho twifashishwa mu gutunganya ikawa, iyo kawa ikaba ijyanwa mu mahanga nyuma yo gutunganyirizwa mu nganda ndetse ikanakoreshwa mu Gihugu.

Abantu barimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bari mu gishanga gihinzemo umuceri uri hafi kwera. Uyu muceri ukaba usoromwa maze ukanikwa nyuma ukaza gutonorwa, ukajyanwa ku masoko ndetse ukanatekwa mu ngo.

Umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa ari gusoroma igihingwa k'ikawa, iki gihingwa kikaba ari kimwe mu biteza uwagihinze imbere aho gitunganywamo ibyo kunywa ndetse kikanoherezwa mu mahanga.

Abagabo babiri ndetse n'umugore bari gukora mu murima w'icyayi bakaba bahetse ibikoresho bikoze nk'igitebo byifashishwa barundamo icyo cyayi nanone kandi iki cyayi iyo kimaze gusarurwa kikaba kijyanwa mu nganda aho gitunganywa maze kikoherezwa mu mahanga no ku masoko atandukanye mu Gihugu.

Igihingwa cy'ikawa kikiri ku giti, gifite ibara ry'icyatsi kibisi kitarera ariko kandi hari n'ikindi gihingwa cy'ikawa cyeze, gifite ibara ry'umutuku. Iyo kimaze kwira kikaba kijyanwa mu nganda maze kigatunganywa, kigakurwamo ibyo kunywa.

Abagore babiri bafite ibikoresho byabugenewe byo gusaruriramo icyayi, bari kugisarura mu murima munini, urimo icyayi gikuze. Icyo cyayi kikaba gitunganyirizwa mu nganda maze kikoherezwa hanze ndetse kikanakoreshwa n'imbere mu gihugu.

Mu murima uri hagati y'imisozi uhinzemo icyayi kinshi. Hari umugore ufite igikoresho kimeze nk'igitebo. Icyo gikoresho akaba akifashisha mu gihe ari gusarura icyayi. Iki cyayi kikaba kijyanwa mu nganda gutunganywa.

Umugabo ndetse n'umugore ,bahetse ibikoresho binini bimeze nk'ibitebo ndetse bakaba bari mu murima munini w'icyayi, bakaba bari kugisarura. Ibi bikaba bibafasha kugira ngo babone amafaranga yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko babikora nk'akazi.

Imiti iri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, iri ahantu hamwe. Kuyishyira ahantu hamwe bikaba birinda kwangirika, bikayirinda n'ubushyuhe n'ubukonje bwinshi. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara mu matungo yo mu rugo.

Imiti iri mu ducupa dufite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'umweru n'ubururu, ibitse ahantu hamwe, aho idashobora kugerwaho n'ubushyuhe cyangwa se ubukonje bwinshi. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura amatungo arimo nk'inka, ingurube ndetse n'ayandi.

Imiti ifunze neza mu ducupa dufite amabara y'umweru icyatsi kibisi ndetsetse n'umukara tukaba dushushanyijeho amatungo arimo inkoko iyi miti ikaba yifashishwa mu kurwanya indwara mu matungo magufi ndetse n'amaremare.

Imiti ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye ishushanyijeho inkoko, ikaba ihabwa amatungo y'inkoko kugira ngo hiyongere umusaruro wayo urimo amagi ndetse n'inyama.

Imiti ifunze neza mu ibara ry'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'icunga iri ahantu heza ibitse, iyo miti ikaba yifashishwa kuvura indwara zitandukanye z'amatungo arimo nk'intama, ihene, inka ndetse n'ayandi.

Imiti ifunze mu mabara y'icyatsi kibisi, umutuku ndetse n'umweru, ikaba ishushanyijeho amatungo atandukanye arimo n'inkoko, ingurube ndetse n'ayandi, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura amatungo indwara zitandukanye.

Abagabo babiri bashoreye inka ahantu hari ibyatsi bitoshye bakaba bazijyanye kuziragira nanone kandi hari ibiti by'ishyamba birebire ibyo biti bikaba byifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye birimo: ameza, inzugi ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, wambaye n'ingofero ari munsi y'igiti gifite amashami manini. Inyuma ye kandi hari ibihingwa bigiye bitandukanye.

Mu kiraro cyiza cyane gikozwe mu byuma ndetse cyubatswe mu buryo bugezweho harimo inka zigezweho za kijyambere zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, izo nka zikaba zitabwaho maze zigatanga umukamo ushimishije na wo wifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye.

Abagore bambaye imyambaro y'ibitenge, bakaba bafite umuhoro. Uyu muhoro bakaba bawifashisha cyane mu by'ubuhinzi, harimo nko kuba bawukoresha mu gutema ibihuru mbere yo guhinga.

Igihingwa kiza gishishe gifite ibara ry'icyatsi kibisi cyitwa ubutunguru. Iki gihingwa kikaba gikunda kwera ahantu hadafite amazi menshi ariko nanone kikaba gikenera kuhirwa ndetse kigakenera n'ifumbire.

Umurima munini uhinzemo ibigori, ibi bigori bikaba byitabwaho maze byamara gukura bigasarurwa, bikajyanwa mu bwanikiro, iyo bivuye aho kandi bijyanwa gutunganywamo ibintu bitandukanye, birimo ifu ikorwamo ibintu byinshi.

Umurima uteyemo ibigori bitarera neza ariko bigiye kwera. Ibigori ni kimwe mu bihingwa biteza imbere umuhinzi ariko nanone na byo bisaba igishoro kuko bisaba guhora biterwa umuti, bikaba binakunda kwibasirwa n'udukoko turimo nka nkongwa.

Igishanga kigari kitegeye umusozi uhinzeho ibihingwa bitandukanye icyo gishanga kandi kikaba gihingwamo ibihingwa birimo nk'umuceri, uwo muceri iyo umaze gukura ugasarurwa ukaba ujyanwa mu nganda ugatonorwa mbere y'uko ushyirwa ku masoko.

Umurima udahinze urimo amabuye amenaguye ndetse n'ikigori cyasaruwe, hari kandi ibiti birebire by'ubwoko butandukanye na none kandi hari inzu ebyiri zubatse neza, zikaba zituyemo imiryango.

Hirya y'umusozi muremure uriho ibiti bitandukanye hari igishanga kiza cyane gihinzemo umuceri, iki gishanga kandi kikaba kirimo abahinzi aho bari kwita kuri uyu muceri bawubagara.

Umurima munini urimo ibigori, bigaragara ko bitagize umusaruro mwiza, ni ngombwa ko ibigori byitabwaho, bikabagarirwa, bigashyirwaho ifumbire ndetse bikanaterwa n'umuti kuko ari kimwe mu bihingwa bikunda kwibasirwa.

Umurima munini cyane uteyemo ibiti birebire ndetse n'imboga z'amashu. Izi mboga iyo zimaze kwera, zikaba zijyanwa mu masoko hirya no hino, aho zinateza imbere umuhinzi wazihinze. Ariko na zo zisabwa kwitabwaho, zigashyirwaho ifumbire ndetse zikanuhirwa.

Umusozi mwiza wiringiye ufite ibihingwa bitandukanye, byaba bigoranye cyane ko mu gihe k'imvura ndetse n'isuri, uyu musozi wagira ibiwutwara kuko hahinzeho ibintu bishobora kuba byatangira iyo suri.

Uruhererekane rw'inyubako z'ubucuruzi zubatswe mu buryo bugezweho, aho hari umuhanda uzinyura imbere. Hari kandi n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibihingwa birimo insina zera ibitoki.

Uruhererekane rw'imisozi iriho amashyamba arimo ibiti bitandukanye. Ibyo biti bikaba byifashishwa aho bikorwamo ibikoresho bitandukanye na none kandi muri ayo mashyamba hakaba ari iwabo w'inyamaswa nyinshi, zimwe na zimwe z'inkazi.

Umurima udahinze urimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi na none kandi hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye. Aya mashyamba akaba afite akamaro kanini, aho abamo inyamaswa ndetse akadufasha no kuyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda mwiza cyane ugezweho ufite ibara ry'umukara ndetse n'imirongo ishushanyijemo icimbaguye y'umweru, uyu muhanda ukaba unyura rwagati mu ishyamba rifite ibiti bitandukanye by'ubwoko bwinshi.

Uruhererekane rw'imisozi iriho amashyamba y'ubwoko butandukanye. Aya mashyamba akaba afasha cyane cyane mu gukurura imvura ndetse akaba anakurura ba mukerarugendo. Ntitwakwibagirwa kandi ko hari inyamaswa z'ubwoko butandukanye, zibera muri ayo mashyamba.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bigomba kwitabwaho. Afite akamaro kenshi urugero twavuga nko kuba havamo imbaho zikoreshwa mu gukora ibintu bitandukanye, birimo nk'inzugi ndetse n'ibindi na none kandi amashyamba akurura imvura, bigatuma ibimera bimera neza.

Mu ishyamba rinini rifite amaba y'icyatsi kibisi harimo ibiti by'ubwoko butandukanye, ibi biti bikaba bidufitiye akamaro kanini aho bikurura imvura ndetse n'iyo bikuze bikaba bikurwamo imbaho, na zo zikoreshwa mu gukora ibikoresho bitandukanye.

Hagati mu musozi muremure uhinzeho ibihingwa bitandukanye birimo insina, hanyuramo umuhanda ugezweho wa kaburimbo ufite amabara y'umukara, uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'abantu bari mu isiganwa ry'amagare.

Uruhererekane rw'imisozi miremire iriho amashyamba ndetse n'ibihuru aha akaba ari iwabo w'inyamaswa zitandukanye zirimo inzovu ndetse n'izindi, izo nyamaswa zikaba zikurura ba mukerarugendo bakishyura amafaranga bigateza imbere Igihugu.

Mu nkengero z'umuhanda ukoze neza ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru ndetse ufite n'amatara yo ku mihanda hateye igiti kirekire, icyo giti kandi kikaba gikikijwe n'ibyatsi bitoshye bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye birimo n'imyumbati, muri uyu murima kandi harimo igiti kirekire k'inganzamarumbo cyakuze, harimo kandi n'isina zera ibitoki bibyazwamo imineke ndetse bikaba binakorwamo ikinyobwa cy'urwagwa.

Abantu babiri barimo umugore wambaye agapfukamunwa bari ahantu harererwa ingemwe, izo ngemwe zikaba zitabwaho zikuhirwa, zigashyirwaho ifumbire mbere y'uko zijyanwa mu mirima guterwa.

Itsinda ry'abahinzi bahinga mu buryo bwa kijyambere bakaba bari kwita ku bihingwa byaho nanone kandi hari ishyamba rinini ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye inyuma y'umurima wabo, uyu murima wabo ukaba uhinzemo ndetse n'ubutunguru ahagana inyuma.

Mu nzu yabugenewe yubatswe mu buryo bugezweho, harimo imbuto ziteyemo, izo mbuto zikaba ari urusenda. Izi mbuto zikaba zarahinzwe mu makoperative ndetse zikaba zijyanwa ku isoko iyo zimaze gukura zigasarurwa.

Imboga nziza ziteye mu buryo bwiza zifite ibara ry'icyatsi kibisi, ziri kwitabwaho hifashishijwe igikoresho cy'isuku cyitwa indo, iyi ndobo ikaba ivomerwamo amazi maze ayo mazi agasukwa kuri izi mboga.

Ahantu ahabugenewe harererwa ingemwe mbere y'uko zijyanwa guterwa mu mirima. Izo ngemwe zikaba zitabwaho zikiri nto zikavomererwa maze igihe cyazagera bakazijyana mu murima aho ziba zizahingwa igihe kirekire.

Hifashishijwe igikoresho gifasha mu kuvomera imyaka, umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'ingofero, ari kuvomera imboga ze z'amashu. Izo mboga zikaba zinateye ku buryo bwiza bugezweho ku mirongo.

Hifashishijwe ibikoresho bitwara amazi, umuhinzi wambaye imyambaro y'umukara arimo kuvomera igihingwa ke kitwa amashu. Ibi bikaba bikorwa yifashishije ikoranabuhanga, ibi kandi bikaba bituma umusaruro uva ku buhinzi wiyongera.

Hifashishijwe igikoresho kizana amazi, umugabo w'umuhinzi arimo kuvomera imbuto ze zikiri mu butaka. Ibi bikaba ari ukugira ngo zizakure neza mu gihe cy'izuba ndetse zizanashishe no hakurya yaho kandi hari ibindi bihingwa birimo insina ziri mu rutoki rugari.

Ahantu heza cyane ahabugenewe hahingwa imbuto ku murongo, izi mbuto zikaba zitabwaho hifashishijwe amazi aho zivomererwa nanone kandi hari ibiti by'ubwoko butandukanye bikikije aho hantu.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse yambaye n'agapfukamunwa, ari kwifashisha ibikoresho byabugenewe, aho ari gusuka amazi ku bihingwa. Ibi ni byiza cyane kuko bituma ibihingwa bikura no mu gihe haba hariho izuba ryinshi.

Igikoresho kinini kifashishwa mu guhinduramo imirasire y'izubamo amashanyarazi kigatanga ingufu kiri kwifashishwa aho hari kuvomererwa imyaka, iyi myaka ikaba ivomererwa mu gihe amazi yabuze cyangwa se hari izuba ryinshi bityo bikongera umusaruro ukomoka kuri iyo myaka.

Ahantu hagomerewe amazi meza hakaba hazitiwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, aya mazi akaba yifashishwa cyane cyane mu kuhira ibihingwa mu gihe cy'izuba ryinshi cyangwa se mu gihe ibihingwa bifite amazi make.

Hifashishijwe igikoresho cyabugenewe umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ari kuvomera imbuto ze, ibi ni byiza kuko bituma no mu gihe k'izuba rikabije imbuto zikomeza kumera neza.

Imbere y'imisozi ibiri iriho ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse ihinzeho n'ibihingwa hanyuramo umugezi muremure, uwo mugezi ukaba ufite amazi adasa neza ariko nanone ashobora kuba yabamo amafi.

Hagati y'imisozi iteganye, iriho ibiti bitandukanye, harimo ikiyaga. Icyo kiyaga kikaba cyifashishwa mu bintu bitandukanye, harimo nko kuhira imyaka ndetse kikaba kinatanga amafi.

Uruhererekane rw'imisozi miremire ndetse n'imigufi rubereye amaso, kuri iyo misozi kandi akaba ari ho ibihingwa bitandukanye biriho nk'isina zera ibitoki bitanga imineke ndetse bikaba binakorwamo urwagwa.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bateraniye ahantu hamwe mu gisambu, icyo gisambu kikaba kirimo ubwatsi butoshye nanone kandi inyuma yabo hari igiti.

Imisozi ibiri ihinzeho ibihingwa bitandukanye ndetse ikaba iriho n'ibiti. Iyi misozi iciweho imirwanyasuri, aho iyi mirwanwanyasuri ikora cyane mu gihe k'imvura ikabuza ibyo bihingwa kuba byatwarwa n'amazi y'imvura.

Uruhererekane rw'imisozi iringaniye iriho ibintu bitandukanye biriho n'ibiti ndetse n'inzu z'abaturage, ntago ari ibintu byiza cyane gutura ku misozi hejuru aho umuntu aba ashobora kwibasirwa n'ibiza birimo imvura nyinshi.

Uruhererekane rw'imisozi miremire ndetse n'imigufi iriho amashyamba, aya mashyamba akaba afite akamaro gakomeye aho abazwamo imbaho zifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye nanone kandi aya mashyamba akaba acumbikiye amoko menshi y'inyamaswa.

Imisozi ibiri miremire ihinzeho ibingwa bitandukanye birimo n'ibishyimbo. Iyi misozi ikaba iciyeho imirwanwanyasuri. Ikaba yifashishwa mu gihe k'imvura aho ibuza ibi bihingwa kuba byatwarwa n'isuri.

Inka zigezweho zifite amabara atandukanye arimo umukara ndetse n'ibihogo ziri ahantu heza aho ziri kurisha. Ibi bikaba bifasha cyane iyo inka zirisha ahantu hazitiye, bikaba bituma bidateza ingaruka ku bidukikije.

Mu kiraro kiza cyane cya kijyambere, harimo inkoko nyinshi zifite ibara rimwe, izo nkoko zikaba zitabwaho zikagaburirwa mu buryo bugezweho, maze na zo zigatanga umusaruro urimo amagi n'inyama, bikinjiriza amafaranga umuntu uzoroye.

Ihene nyinshi zirimo iz'ubwoko butandukanye, zifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina ziri mu murima aho zirimo kurisha, izi hene zikaba zitanga umusaruro urimo ifumbire yifashishwa mu buhinzi ndetse n'inyama.

Mu kiraro cyiza cyane gifite amabara y'icyatsi kibisi, harimo inka za Kinyarwanda zifite amahembe maremare zizwi nk'inyambo, hari kandi n'abantu bambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru, bashinzwe kwita ku buzima ndetse n'imibereho myiza y'izo nka.

Inka z'ubwoko butandukanye zifite amabara y'umukara, ibihogo ndetse n'umukara ziri mu murima urimo ibyatsi bitoshye aho ziri kurisha, izi nka zikaba zitanga umusaruro urimo ibishingwe ndetse n'amata.

Inka nziza cyane ziri mu kiraro cya kijyambere zifite amabara y'ibihogo ndetse icyo kiraro kikaba gisakaje amabati, hari kandi n'umuntu wambaye imyambaro y'umweru n'umukara uri kwita kuri izo nka azigaburira.

Mu kiraro kiza cyubakishije ibyuma ndetse cya kijyambere, harimo inka na zo za kijyambere, zifite ibara ry'ibihogo. Izi nka iyo zitaweho, zikaba zitanga umusaruro urimo amata ndetse n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Inkoko z'ubwoko butandukanye zikaba ziri kugaburirwa mu buryo bugezweho, izi nkoko zororewe mu kiraro kiza cyubatse neza gifite urugi rufite ibara ritukura, izi nkoko iyo zitaweho zikaba zitanga umusaruro urimo amagi ndetse n'inyama.

Ku kiraro kiza cyane cyubatse neza gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hari ingurube ifite ibara ry'umukara, aho yahawe ibyo kurya ikaba iri kuyisangira n'abana bayo, iyi ngurube ikaba yaritaweho ndetse ikaba itanga umusaruro urimo ibishingwe byifashishwa mu buhinzi.

Inka nyinshi cyane za kijyambere ziri mu gisambu kinini aho zirimo kurisha, ibi kandi bikaba bibujijwe hirya no hino mu Gihugu kuko biteza ingaruka nyinshi zirimo nk'uko byateza isuri.

Ihene nyinshi zifite amabara atandukanye arimo ikigina n'umweru n'umukara, ziri ahantu hamwe hazitiye, izo hene zikaba zitabwaho maze zigatanga umusaruro, urimo ifumbire, amashunushunu yifashishwa ndetse akaba anarimo intungamubiri nyinshi.

Mu cyumbakize cyane cyubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga, gifite amabara y'umweru, harimo inkoko nyinshi cyane, zifite na zo amabara y'umweru . Izi nkoko zikaba zitabwaho maze zigatanga umusaruro, urimo amagi ndetse n'inyama.

Ikiraro cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho gisakaye neza ndetse cyubakishijwe ibyuma kikaba kirimo inka zigezweho za kijyambere, izi nka zikaba zitabwaho neza maze zigatanga umukamo ushimishije, hari kandi n'ushinzwe kuzitaho wambaye imyambaro yabugenewe ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Mu nzu yabugenewe yubatse neza harimo imishwi y'inkoko y'ubwoko butandukanye iyi mishwi ikaba yitabwaho ikagaburirwa ibiryo byuzuye intungamubiri maze igakura igatanga umusaruro urimo inyama ndetse n'amagi.

Mu cyumba kize cyane cyabugenewe harimo inkoko z'ubwoko bwinshi zifite amabara asa, izi nkoko zikaba zitabwaho maze zigatanga umusaruro, hari kandi n'umworozi wabigize umwuga wita kuri izo nkoko.

Inka nziza za kijyambere, ziri mu kiraro cyubakishije ibyuma ndetse gisakawe neza, izi nka iyo zitaweho, zikaba zitanga umusaruro ushimishije, urimo y'uko zishobora kuba zakamwa amata menshi ku munsi.

Hifashishijwe imashini ihinga, igisambu kinini cyahinzwe ndetse hakaba hari umugabo wambaye imyambaro migufi, ufite imbuto mu kintu kimeze nk'igitebo, akaba ari kugenda atera aho iyo mashini yagiye ihinga.

Umusaruro w'ibigori ariko utaratunganywa ukurweho ibishishwa, ibi bishishwa iyo bimaze kuvaho bikaba bikoreshwa ibintu bitandukanye ndetse ibigori byavuwemo, bikaba bitunganywamo ifu ivamo ibintu bitandukanye.

Imbuto z'ibishyimbo bifite ibara ry'ikigina, izi mbuto zikaba zishyirwa mu butaka maze imvura yazagwa cyangwa se zavomererwa zikazamuka hejuru. Izi mbuto ziza kuvamo ibihingwa bikuze maze bigasarurwa, bikajyanwa ku masoko ndetse bikanaribwa mu miryango.

Imbuto z'ibishyimbo ziri kuvangurwa n'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ritukura ndetse n'umweru, uyu mugore akaba ari kuvangura ibishyimbo byiza ndetsen'ibibi, ibyiza bikaba bijyanwa guterwa mu murima maze imvura yabinyagira cyangwa se byavomererwa bigakura bikavamo umusaruro.

Mu cyumba cyabugenewe hatondekanyijemo imifuka myinshi ifite amabara y'umweru, iyo mifuka ikaba irimo ibiribwa birimo nk'ibinyampeke bishobora kuba byakwangirika mu gihe biri ahantu hari izuba ryinshi cyangwa ubushyuhe bwinshi, nanone kandi harimo umukozi wambaye imyambaro yabugenewe.

Umusore wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umukara, yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari kwita ku itungo rirwaye. Nanone kandi hari ibimera byimeza birimo nk'imigwegwe.

Umuti ufunze neza mu mabara y'umweru ubururu ndetse n'umuhondo, ufite agapfundikizo gafite ibara ry'icunga. Uyu muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo, harimo nk'inka ndetse n'ayandi yo mu rugo.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro yabugenewe bari gukora ubushakashatsi, bakaba bambaye uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa, ibi bikaba ari mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi wambaye agapfukamunwa ingofero ndetse n'uturindantoki, ari kwita ku itungo. Ari gukoresha ibikoresho bitandukanye birimo nk'umukasi byifashishwa cyane mu buvuzi.

Abantu barimo abambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru bakaba bari ku biraro, ibyo biraro bikaba na byo birimo inka za kijyambere. Aba bantu bakaba bari kwita kuri izi nka baziha imiti y'indwara zitandukanye.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni ikunda kwibera cyane mu bishanga ndetse n'ahandi hari amazi menshi iyi nyamaswa ikaba ikunze kwirira udukoko turimo iminyorogoto amafi ndetse n'ibindi biba mu mazi iyi nyamaswa kandi ikaba ifite amabara y'umukara n'umweru.

Inyamaswa zitandukanye zirimo: imparage, intare, inzovu ndetse n'izindi, izi nyamaswa zikaba ziba ahantu habugenewe mu cyanya k'inyamaswa maze zigakurura ba mukerarugendo na bo bakishyura amafaranga.

Inyamaswa nini cyane mu zo ku butaka ikaba yitwa inzovu. Iyi nyamaswa ikaba iba mu byanya bikomye, aho ikurura ba mukerarugendo na bo bakishyura amafaranga maze bigateza imbere ubukungu bw'igihugu.

Inyamaswa y'inkazi ifite ibara ry'umukara ndetse n'ikigina ikunze kwibera mu byanya byagenewe inyamaswa. Iyi nyamaswa ikaba ari inkazi aho ifite ururimi rutyaye ndetse n'amenyo asongoye. Ikaba ibyifashisha mu guhiga utundi tunyamaswa.

Imisambi ifite amabara meza y'umweru ndetse n'umukara ikaba iri mu bishanga, iyi misambi ikunda kwibera ahantu hari amazi menshi kuko ikunda kurya utuntu turimo nk'iminyorogoto ndetse n'amafi akiri mato.